Iyo abayobozi basoje inama bari barimo hari ahantu habugenewe bahurira bakiga ku myanzuro yafashwe ndetse bakanatanga n'umucyo ku bibazo byagiye bigaragazwa ,aho hantu iyo bahageze baraniyakira.

Ni abantu ubona ko bari mu nama, bafite umuntu bakurikiye, bicaye ku ntebe z'umukara ndetse bakaba bahuriye ku meza abajwe mu giti, imbere ya buri muntu hateretse icupa ry'amazi, bamwe muri bo bakaba bafite na mudasobwa imbere yabo.

Ni mu nzu mo imbere hateye irangi ry'umweru, hicayemo abantu bari mu nama bakurikiye uri kubaganiriza, buri muntu wese imbere ye hateretse icupa ry'amazi, ikayi yo kwandikamo n'itasi.

Ni inzu ubona ko yagenewe gukorerwamo inama, hasi nta makaro ita irangi ry'mweru hejuru hari parafo ameza ateye mu buryo abantu bose bagomba kwicara barebana, hakaba hicaye abantu ubona ko bari mu nama bungurana ibitekerezo.

Ni uburyo Leta ishyiraho bwo guhugura urubyiruko mu bijyanye n'ikoranabuhanga, ubu bakaba bari kwakira amahugurwa bicaye ku buryo bw'udutsiko, imbere ya buri muntu hari icupa ry'amazi ndetse n'agakayi ko kwandikamo.

Ni mu nzu mu imbere, hatangirwamo serivisi zijyanye n'imiyoborere, intebe ziteye mu buryo abantu barebana, hicayemo abantu bari mu nama bungurana ibitekerezo, buri wese imbere hari mudasobwa n'indangururamajwi, hakaba n'amadarapo ku mpande zombi.

Ni abakozi ba leta, bagaragara nk'abari mu mahugurwa, bicaye mu buryo bw'uruziga, ubona ko buri wese afite ibyo ahugiyemo imbere ye. Buri muntu wese kandi imbere ye hari icupa ry'amazi, mudasobwa ndetse n'indangururamajwi.

Ni inzu ifite imitako itari myinshi, iteye irangi ry'umweru, amatara ari kwaka, inzugi zirafunze, harimo abagabo batatu ubona ko buri wese ahugiye mu bye ariko nanone bose bateze amatwi uri kubahugura ubona ko atishimye.

Ni ahantu hagenewe gukorerwa inama, ubona ko hari abantu bambaye neza bicaye ku buryo bw'uruziga, bari mu nama kandi ubona ko bari kungurana ibitekerezo, imbere ya buri muntu hari indangururamajwi, mudasobwa icupa ry'amazi ndetse n'igikombe.

Ni sale yagenewe kuberamo ibikorwa byinshi bitandukanye, ubu hicayemo abantu bari mu nama imbere yabo hateretse ameza ariho amazi n'udukayi two kwandikamo kandi bakaba bakurikiye uri kubaha ubutumwa.

Ni abakozi ubona ko higanjemo abambaye tisheti z'umweru, bakaba babanje gukora inama mbere y'uko bakomeza akazi, hagati yabo hateyemo ameza arambuyeho igitambaro cy'icyatsi.

Ni mu nzu mo imwe imbere hateye irangi ry'umweru harimo abantu bari kwakira amahugurwa bakurikiye uri kubahugura, inyuma gato y'uri kubahugura ku gikuta hari igitambaro cy'ubururu n'umweru, muri icyo gitambaro hejuru harimo ikirango cy'u Rwanda. Ibumoso bw'uri kubahugura hari akantu k'umukara gateye ku gikuta, imbere y'abo bantu bari guhugurwa hateretse amazi, ibumoso bw'ayo mazi hari mudasobwa y'umukara.

Ni igikorwa cya leta cyashyizweho ngo mu gihe hari ibikorwa runaka byabaye, abanyarwanda bajye bicara hamwe basabane, barebe n'ibikorwa byinshi bitandukanye.

Uburyo bwa leta bwashyizeho ko umuntu wese urangije amashuri ataratu yisumbuye agomba kujya mu rugerero agahabwa inama n'inyigisho nyinshi bitandukanye, hano hakaba hateraniye urubyiruko rwaturutse mu mirenge itandukanye rukaba ruteze amatwi umutoza.

Ahashashe tapi y'ubururu n'umweru hateye intebe zitatsemo ibara ry'umuhondo, ziciho n'abantu ubona ko bari mu nama, buri wese iruhande rwe hateretse icupa ry'amazi niirya ji ikaba ari n'abandi bari inyuma ubona ko ibyo bari kuganiraho.

Ni uburyo bwa leta bwashyizweho bwo gufata abantu ubavanye mu mirimo itandukanye, ukabicaza by'akanya gato uri kubahugura, ubu bakaba bicajwe muri gare, bakurikiye uri kubahugura.

Ni ahantu ubona ko hari kubera inama hicaye abantu benshi imbere hakaba hari umuntu ubahagarariye uri gutambutsa ubutumwa, imbere ya buri muntu hakaba hateretse kandi icyo kunywa. Imbere kandi ya bo bose hakaba hicaye abantu babiri ubona ko aribo babakuriye.

Abantu benshi batandukanye, bahagaze muburyo bw'uruziga, ubona ko bose bakurikiye ukuri kuba inyigisho, hirya y'abo hari ubusitani buparitsemo n'imodoka nyinshi.

Aha ni ahantu ushobora kujya gusura ushaka kureba ibikikije u Rwanda, hari igiti kitari kirekire, gifite amashami agaramye, hakaba hicayemo imbwa.

Ni inzu ya konoshi iri ku muhanda iteye irangi ry'umuhondo, ifite imiryango itatu, ibiri muri yo ni ubururu bwerurutse, undi umwe ni umuhondo. Ikorerwamo ibikorwa byinshi bitandukanye ubucuruzi n'ibikorwa by'irembo. Hejuru gato hagati y'iyo miryango hari icyapa cy'irembo n'ibindi bikorwa bikorerwa muri iryo rembo.

Ni umunara muremure hasi hashashe ubona ko wubakiwe, igice kimwe cygipangu cyubatswe n'utwuma ikindi gice ni igikuta giteye irangi ry'umuhondo.

Ni icyemezo kiba kiri mu ibara ry'ubururu cyanditseho amagambo y'umweru, ubona waciye ku Irembo, kikaba ari icyemezo gihabwa umuntu utishoboye wacitse ku icumu rya Jenoside.

Ni mu nzu mu imbere hasi ni amakaro, ku bikuta hateye irange ry'umweru, hakaba harimo ameza ateretseho ibikoresho by'ikoranabuhanga bitandukanye ndetse hakaba hari n'ibiri munsi y'ayo meza nka ralonje, amaradiyo na za mudasobwa.

Ni umunara muremure cyane, wubatswe mu byuma, wo mu ibara ry'umutuku n'umweru n'umukara, uba uri ahantu uri wonyine, ukaba wubakwa kugira ngo ufashe abantu mu itumanaho ritandukanye

Ni umunsi mpuzamahanga, washyizweho ku rwego rwo guteza imbere ubumenyi n'umurimo unoze by'inkingi y'iterambere rirambye, akaba ari umunsi w'ingarukarimwe, wizihizwa ku rwego mpuzamahanga.

Ni ahantu hubakishwa amasharagati kuko haba hari gukorerwa igikorwa kiba kitazamara igihe kirekire, hakaba hateyemo ameza mo imbere, harimo mudasobwa n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga. Hakaba hari n'abandi bantu benshi bicaye ndetse n'abari mu muryango, ubona ko baje kwaka serivisi.

Ni icyapa cya teveya kiganje mu ibara ry'umweru n'ubururu, kiri kwerekana serivisi nyinshi batanga, hakaba hari na telefone iri kwerekana uko umuntu ashobora kubyikorera.

Inzu ndende iteye irange ry'umweru, ifite iminara myinshi hejuru, mu buryo bwo kugira ngo babone konekisiyo, ikagira igipangu cy'amatafari ahiye, inyuma y'icyo gipangu hari indabyo ngufiya z'amabara menshi.

Ni icyapa kiri mu ibara ry'ubururu n'umweru, kikaba hejuru handitseho ijambo rura, mu kinyarwanda ni ikigo cy'igihugu gifasha abantu mu bijyanye n'imitegire yabo ya buri munsi.

Ni icyapa gisa nk'icyijimye kirimo umugore uri kuvugira kuri telefone bigaragara ko yishimye, ari kugira inama kwihangira imirimo ko ari uburenganzira bwa buri muntu ku giti cye.

Hari amagambo yanditse mu ibara ry'uburu n'umweru, adusobanurira ko ugomba kumenyekanisha imitungo yawe ukanayitangira imisoro, hakaba hicaye kandi n'umukobwa wambaye agashati k'umweru uri gukora kuri mudasobwa.

Ni ahantu hatari ikindi kintu kihabarizwa, hari ibyatsi bigufiya bizitiye, hakaba hari n'umunara wubakiye, akaba ari uburyo bwashyizweho bwo kugira ngo itumanaho rigende neza.

Inzu ikodeshwa iri Kicukiro muri Kigali, ifite ibyumba bine n'amadushe atatu na tuwarete ikaba ikodeshwa amafaranga ibihumbi magana atanu ku kwezi.

Ni nzu ifite umuryango w'ubururu ukinguye, irimo purafo hejuru, inyuma ifite ibikuta byubakishije amakaro, ahagana hasi ikagira ibaraza ryubakishijwe amabuye.

Ni icyapa kirimo ibara ry'ubururu cyanditseho amagambo y'ibara ry'umuhondo, kikaba kivuga uburyo ushobora kumenyekanisha ibintu byawe, itariki ntarengwa akaba mirongo itatu nimwe y'ukwa mbere, bibiri na makumyabiri na gatanu.

Ni mu ndabyo ndende hagati harimo ururabyo rufite igiti cy'umubyimba munini uriho icyapa gitoya cy'ubururu n'umweru, cyanditseho ngo hano wabasha kuhabona interineti.

Ni abakozi babiri bicaye mu buryo barebana, ariko nanone ubona ko buri wese ahugiye muri mudasobwa iri imbere ye, ikindi kandi ni umuhungu n'umukobwa kandi bose bambaye utujyana amajwi mu matwi yabo.

Ni uburyo bwa Leta bushyirwaho ikubaka umunara munini wubatse mu byuma, ufite insinga nyinshi ziwuhuriyeho, kugira ngo uzajye ufasha abaturage mu bintu bijyanye, n'itumanaho.

Ni ipoto rirerire rifite insinga zijyana umuriro w'amashanyarazi, rishinze muri pasiparume, ryegereye igipangu cy'amatafari ahiye, imbere muri icyo gipangu kandi hakaba harimo amazu menshi.

Ni mu muhanda hagati hari urujya n'uruza rw'abantu, hari inzu ihubatse ifite parikingi, ifite n'ibyapa biranga ibikorerwamo, hakaba ipoto kandi ririho insinga z'amashanyarazi.

Ni umunara muremure ufite batiri ahagana hasi, wagenewe gufasha abantu mu bijyanye n'itumanaho, uri hagati mu migano n'ibindi biti bitandukanye, ndetse n'indabyo ngufiya.

Ni inzu yubakishije amatafari ahiye ifite n'ibaraza ikagira na parikingi, ruguru yayo gato hashinze amapoto arimo batiri n'insinga z'amashanyarazi hakaba n'imodoka y'umukara iri kugenda ku muhanda wa kaburimbo.

Ni mu muhanda hagati, hari amazu menshi, hari ibinyabiziga byinshi bitandukanye, hari imodoka ziri kugenda n'ibindi, hagati hari ipoto rifite insinga nyinshi z'umuriro w'amashanyarazi, rifasheho n'itara ryo ku muhanda.

Ni ipoto iriho insinga z'umuriro w'amashanyarazi, n'itara ryo ku muhanda, riri ku mukingo utari munini, hagati y'ibiti bya cyprès, inyuma hari inzu ifite n'igipangu cy'amatafari ahiye, imbere ni ku muhanda wa kaburimbo.

Umuhanda w'umukara aho uganisha ku bitaro byitwa Sehashiyibe, biri mu karere ka Huye, aho hahagaze umuntu uhagarika imodoka kugirango babanze basuzume icyo uje uhakora, hakaba hari imodoka nyinshi ziparitse.

Ni umunara muremure cyane ukozwe mu byuma, ubona ko ufite insinga eshatu ziri kujya mu cyerekezo kimwe, uri ahantu mu gihuru cy'ibyatsi byinshi, imbere kandi hakaba hari umuhanda w'ibitaka.

Ni mu muhanda w'igitaka, hari urujya n'uruza rw'abantu ndetse n'ibinyabiziga, hari kandi n'ipoto bifite insinga z'umuriro w'amashanyarazi, akaba ari uburyo bushyirwaho kugira ngo buri muturage abashe kubona umuriro.

Ni ahantu hasa nk'aho ari mu gihuru harimo utuzu tutagaragara hagati hashinzemo ipoto rirerire rifite insinga z'umuriro w'amashanyarazi, hirya hakaba hari umunara nawo muremure.

Mu rwego rwo kuzamura itumanaho n'ikoranabuhanga byiza, mu Rwanda hagenda hongerwa iminara miremire ikozwe mu byuma ifite kandi n'insinga nyinshi ziyishamikiyeho.

Ipoto rifite insinga nyinshi zikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi mu baturage, iri hagati mu busitani, imbere y'iryo poto ku nkengero z'ubwo busitani hari indabyo ngufiya z'umuhondo, inyuma y'iryo poto hakaba indabyo ndende z'icyatsi, inyuma y'izo ndabyo wambutse umuhanda hakaba inzu zitandukanye ziri ku murongo.

Ni ahantu ku ubutaka hari ibiti bivangavanze, hagati y'ibyo biti hakaba harimo indabo ngufiya, hakaba harimo n'imifuka irunzemo ibitaka ku musozo w'ibyo biti n'izo ndabyo, ahagana nk'ahari umuhanda hakaba hari ipoto ry'umuriro w'amashanyarazi.

Umunara muremure ukozwe n'ibyuma, ufite insinga nyinshi, ukaba warashyizweho ngo ufashe abantu mu bijyanye n'itumanaho, uri mu byatsi hagati y'amazu, ibiti, n'indabyo ngufiya.

Mu buzima bw'umuntu habamo gukenera kwambara imyambaro myinshi itandukanye ndetse n'inkweto aba bagabo babiri, umwe yambaye ishati y'umweru, ipantaro y'umukara ndetse n'inkweto z'umweru undi yambaye umupira w'umukara n'ipantaro ya kacyi ndetse n'inkweto z'igitaka.

Itara riri ku muhanda, hirya yaryo wambutse kaburimbo hari inzu nini nziza igeretse kabiri ibirahure, iberamo ibikorwa byinshi bitandukanye nk'ibya Saniramu n'ibindi, ikindi ifite parikingi ahagana hasi.

Ni inzu ya konoshi iri ku muhanda wa kaburimbo, imbere yayo hari igiti kirekire, ifite igipangu cy'amatafari ahiye, ibumoso bw'icyo gipangu hafasheho ikindi gipangu cy'amatafari ahiye, n'urugi rw'icyatsi, iburyo bw'iyo nzu ya konoshi hakaba hari umunara uriho insinga nyinshi.

Ni icyapa cyerekana ko ibi ari ibitaro bya Kabgayi, byubakije amatafari ahiye, bisakaje amabati y'ubururu, bifite ubusitani bwiza burimo n'indabyo, ikindi kandi biri ku muhanda wa kaburimbo.

Abantu benshi cyane mu nzego zitandukanye; abagore, abagabo, urubyiruko bahagaze bakoze uruziga, ndetse nyuma yabo hari amamodoka menshi cyane, biragaragara ko ari igikorwa cyahabereye, ntabwo ndi kumenya icya aricyo, ariko bameze nk'abari gukora inama.

Ni kwa muganga hateye irangi ry'umweru, hasi ni amakaro, hari umuganga bigaragara ko ari gufasha umukobwa waje umugana, wicaye ku ntebe y'umukara akaba ari kumva uko umubiri we wifashe.

Ni kwa muganga hasi hafasheshe amakaro, hateye irangi ry'umweru, hejuru harimo parofo, mu rwego rwo gufasha abarwayi badakurikije ikimenyane, babicaza ku murongo muganga akagenda abafasha akurikije uko baje.

Ni kwa muganga imbuga yaho isashishije amapave hari ubusitani kandi burimo ibiti birebire n'indabyo ngufi ya hari parikingi iparitsemo imodoka imwe y'umukara n'imodoka ebyiri zishinzwe gutwara abarwayi.

Ni inyubako nziza ubona ko ari iya leta ifite urubaraza ndetse n'inkingi, hanze mu rubaraza hagiye hateye intebe zo kwicaraho, imbere y'urubaraza hari ubusitani burimo indabyo ngufiya ndetse n'idende, hakaba harimo kandi n'ibyapa by'ubururu.

Ni inzu yubakishije amatafari ahiye, hasi ni sima, ifite inzugi ziteye irangi ry'umweru, hejuru harimo parafo amatara yose ari kwaka, hagati hagiye harimo imiryango, hicayemo abantu benshi batandukanye, ku mpande zombi, bategereje ko babakira.

Ni parikingi yubakiye, iparitsemo imodoka nyinshi, yubakishijwe amabuye, ifite amatara maremare, hakaba hari n'izindi nzu ziri aho, zikorerwamo ibindi bikorwa.

Ni umutegarugori ukora muri serivisi z'ubutegetsi, arahagaze yambaye ikoti ry'umutuku inyuma n'agapira k'umweru mo imbere, yambaye kandi n'amaherena, ikindi ni imibiri yombi.

Ni abapolisi babiri bafashe umugabo w'umupadiri bagiye kumufunga, inyuma yabo hakaba hari abagabo bambaye amakote namakarita mu gatuza babaherekeje.

Ni mu rukiko harimo abacamanza, abashinjacyaha, ingororwa n'abandi bantu baje kumva imyanzuro ifatirwa mu rukiko, akaba ari uburyo bwa Leta bwashyizweho kugira ngo bajye bakoresha ubutabera.

Ni umugabo ukuze wambaye amarose n'indangururamajwi ku myenda uri kwisobanura mu rukiko, inyuma ye hari icyapa kimanitse ku gikuta cyanditseho.

Ni uburyo leta yashyizeho ko abakora mu bijyanye n'amategeko nk'ubushinjacyaha, ubucamanza, batagomba kwambara nk'abandi bakozi basanzwe. Uyu akaba ari umugore wambaye imyenda y'akazi iri mu ibara ry'umutuku n'umweru.

Ni umugabo muremure, ukora muri serivisi z'amategeko, arahagaze, yambaye imyenda y'akazi, irimo ibara ry'umutuku n'umukara, mo imbere yambaye ishati y'umweru na karuvati ikindi kandi, ni imibiri yombi.

Ni amacupa abiri afashe ku gikuta atandukanye n'ayo dusanzwe tuzi. Aba afasheho indi migozi y'umukara, aya macupa akaba yifashishwa mu gihe hari ahantu habaye inkongi y'umuriro.

Mu icupa ry'umutuku riba ripfundikiye rifite umugozi w'umukara uri inyuma. Ni icupa rimanikwa kugira ngo igihe habaye inkongi y'umuriro ahantu runaka rihite ryifashishwa mu kuzimya uwo muriro. Rikaba riri ku gikuta munsi hakaba habatetse akantu kagenewe gushyirwamo imyanda.

Mu rwego rwo gukumira impanuka zishobora gutezwa n'ibinyabiziga leta yashyizeho ko ujya gutwara wese agomba kuba yabanje gukora ikizami ngo barebe ko abizi neza koko

Ni icupa ry'umutuku rikoze mu buryo bw'icyuma, riba rizirikanyije n'umugozi w'umukara, riteriretse ahagana hasi, riba rihari ngo isaha ku isaha ribe ryakifashishwa igihe hari ahantu habaye inkongi y'umuriro.

Imodoka ya polisi ihagaze mu muhanda wa kaburimbo ikinguye urugi umupolisi agiye kwinjira, kuri uwo muhanda hari amazu menshi n'amapoto afite insinga z'amashanyarazi zikwirakwiza umuriro mu baturage.

Kiyosike ya emutiyeni irafunguye hari umukiriya uri gusaba serivisi, abantu baratambuka mu muhanda hagati y'amazu, hejuru hari insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi ziwujyana mu baturage.

Ni mu karere ka Gasabo kuri polisi winjiye ah'ibanze batangira serivise harafunze, hagaze abapolisi babiri ku mpande zombi inyuma hari inzu nziza igeretse rimwe y'ibara ry'ubururu.

Iyi shusho iragaragaza umusore wari utwaye imodoka, agahagarara agira yumve ibyo ushinzwe umutekano amubwira, inyuma y'ushinzwe umutekano hari igipangu kirekire cy'amatafari ahiye, inyuma gato y'icyo gipangu hakaba hateye indabyo ngufiya z'icyatsi.

Ni amacupa abiri ateganye, yifashishwa mu kuzimya umuriro igihe hari ahantu habaye inkongi y'umuriro, akaba ari ku gikuta ndetse hejuru yayo hari umugozi wizingazinze inshuro nyinshi uri mu ibara ry'umutuku.

Ni inzu nziza igeretse gatatu iteye irangi ry'umweru n'ubururu, ngari kandi ndende ikagira na parikingi ahagana hasi iparitsemo n'imodoka.

Ni mu kigo cy'amashuri abanyeshuri bari kwigishwa ukuntu guteka kuri gaze bishobora guteza inkongi umuriro, bakaba bitwaje na ya macupa yifashishwa mu kuzimya ahantu habaye inkongi y'umuriro, hakaba hari umwarimu ubahagarariye ndetse n'abaporisi baje kubibereka.

Mu ihuriro ry'imihanda ahazwi nka rompuwe, harimo imirongo igi inyuranye ifasha abagenzi n'ibinyabiziga kubisikana. Iyimirongo baba bagenzi cyangwa se abashoferi, bagomba kuyubahiriza buri umwe akagenda mu buryo bwe.

Mu rwego rwo kwirinda ibyigana ry'abaturage benshi kubera ko rishobora guhitana abantu, leta yashyizeho ko bagomba kuzajya bajya kwaka serivisi batonze imirongo kandi bakurikije uko baje.

Ni ishusho igaragara mu ibara ry'umukara, iriho umusore ukeye mu maso, ufite agasatsi katari kenshi wambaye ikote ry'umukara, ishati y'umweru na karuvati y'umukara.

Ni abakozi ba leta, bakurikiye uri kubaha ikiganiro, bicaye mu buryo bwiza ku buryo begamye, buri wese afite amezi imbere ye hariho indangururamajwi, mudasobwa cyangwa ikayi yo kwandikamo ndetse n'icupa ry'amazi.

Ni mu kwiyamamaza kwa perezida w'igihugu ari kumwe n'abarinzi, hirya ubona ko hari n'abaturage benshi baje kumwamamaza bafite n'amadarapo yanditseho efuperi.

Ni umugabo yambaye ikoti rya karokaro ry'umukara, ishati y'umweru na karuvati, yambaye kandi na rinete, imbere ye hateretse akabati k'umweru gateretseho indangururamajwi ebyiri areba abo ari kubwira.

Mu rwego rwo gukorera ku ntego no kubahiriza intego wihaye, mu Rwanda abayobozi bakuru batowe babanza kurahira bamanitse akaboko k'iburyo, hano bakaba bari kurahira bahagaze hagati y'amadarapo ndetse imbere yabo hari n'indangururamajwi.

Ni ahantu hadekoje ibara ry'umutuku, ubururu n'umweru, hari urusobe rw'abantu benshi batandukanye biganjemo abambaye tisheti z'umweru, hakaba hari abari mu gisharagati n'abatakirimo bose bateze amatwi ubutumwa bari guhabwa na perezida.

Ni umubyeyi udakuze cyane w'umugore wambaye umukenyero wamanitse akaboko ke k'iburyo uri kurahira imbere ye hari indangururamajwi ibumoso hakaba hari idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda.

Abakozi ba leta bari mu nama ubona ko bafite umuntu bakurikiye, bambaye amakarita y'akazi, barangajwe imbere na perezida w'igihugu n'umugore we, buri mukozi imbere ye hari indangururamajwi n'icupa ry'amazi.

Ni umukozi wa Leta ukomeye, wicaye ku ntebe y'umusego yegamirwa, iri mu ibara ry'umukara, imbere ye hakaba hari ameza ateretseho mudasobwa, indangururamajwi, ikirahure cy'amazi n'icupa ririmo amazi.

Ni umugore utari kureba neza, usa nk'aho afite ikintu ari kureba yarakariye, yambaye ishati y'igitenge, afite igitabo yarambuye ariko ntacyitayeho, iruhande rwe hari indabyo.

Ipikipiki y'umutuku itwaye umugenzi n'utwaye bambaye ingofero z'ubwirinzi, bari kugendera mu muhanda wa kaburimbo, ahagana ku nkengero z'umuhanda hari indabyo ndende n'itara ryo ku muhanda.

Igikamyo kinini cy'umweru kiri kugenda mu muhanda wa kaburimbo kibisikana n'igare ritwaye abantu babiri, ku nkengero z'uwo muhanda kandi hateye ibiti birebire bizitije supanete y'icyatsi.

Ni aho bigira gutwara imodoka, haparitse imodoka eshatu z'umutuku ngufiya, ni utwo bifashisha bari kwiga, hari urugo rugizwe n'indabyo ndende z'icyatsi n'ibiti birebire.

Ni ku muhanda wa kaburimbo, hari kugenda imodoka ebyiri zitandukanye, ku nkengero hari amatara yo ku muhanda n'ibiti birebire, hakaba n'inzu nyinshi zitandukanye.

Ni igikamyo kinini cy'ubururu n'umweru, kiri kugenda muri kaburimbo, ibumoso bw'icyo gikamyo hari umunyonzi uri ku igare uhetse umugenzi, iburyo bw'icyo gikamyo hari ubusitani buzitiye n'ibiti birebire bufite n'indabyo ngufiya z'umuhondo.

Imodoka nini, y'ubururu n'umweru, itwaye abagenzi benshi, iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo, hakaba hari umusore uri kugenda mu cyerekezo kimwe n'iyo modoka.

Inzu ikodeshwa iri Kicukiro muri Kigali, ifite ibyumba bine n'amadushe atatu na tuwarete ikaba ikodeshwa amafaranga ibihumbi magana atanu ku kwezi.

Ni igikamyo imbere gifite ibara ry'umweru, kikaba gihetse ikigega kiryamoho amazi cy'ubururu, kiri kugenda mu muhanda wa kaburimbo, hirya y'uwo muhanda kandi hakaba hateye ibiti birebire, bikikije supanete y'icyatsi.

Igikamyo kinini cy'icyatsi kibisi kiri kugenda mu muhanda wa kaburimbo, cyikoreye imizigo itwikirije shitingi y'ubururu kiri kugenda mu nzira imwe n'igare, imbere hari abanyamaguru babiri mu mpande zombi z'umuhanda.

Ipikipiki nini yagenewe gutwara imizigo iri kubisikana n'imodoka mu muhanda hagati, hirya hari amazu n'amapoto ariho insinga zikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi n'abantu bari kugenda muri uwo muhanda.

Ni muri gare, haparika imodoka nyinshi zivuye ahantu hatandukanye, zizanye abagenzi, haba hubatswe kandi utuzu dutoya, twicaramo abagenzi mu gihe bategereje imodoka, ku mpande kandi hubatse amazu, akorerwamo ibikorwa byinshi bitandukanye.

Umuhanda ni igikorwaremezo gifasha abantu bose mu buzima bwabo bwa buri munsi turavuga abamotari, imodoka ndetse n'abandi bantu bawukoresha mu buryo busanzwe burabafasha mu bikorwa byabo bya buri munsi.

Ni mu muhanda w'igitaka hari kugendamo imodoka nini y'umweru yagenewe gutwara imizigo, ahagana aho imizigo ibikwa hatwikirije shitingi y'ubururu, iburyo bw'iyo modoka hari umusore uri kubisikana nayo, imbere gato y'iyo modoka haparitse ipikipiki iriho n'umutwazi wambaye ingofero y'ubwirinzi y'umutuku, ibumoso bw'iyo pikipiki hari umukingo hejuru gato y'uwo mukingo hariho amazu menshi.

Ni ibikamyo bibiri binini by'umweru byose bihetse imizigo myinshi, biri kugendera mu mujyo umwe byose bikaba biri kugenda bigira ngo bijye mu muhanda munini wa kaburimbo.

Ipikipiki ihagaritswe mu muhanda wa kaburimbo iriho umutwaza wambaye ingofero y'ubwirinzi y'umutuku, munsi y'umuhanda hubatse amazu atandukanye y'ubucuruzi, inyuma yayo hari etage ikiri kubakwa.

Ni muri gare haparitse imodoka nyinshi zitwara abagenzi, hari urujya n'uruza rw'abantu hubatse kandi inzu nyinshi, zitangirwamo serivisi zitandukanye.

Ni igikamyo kinini cy'umweru, cyagenewe gutwara imizigo, kiri kugenda muri kaburimbo mu cyerekezo kimwe n'igare rihetsa abantu babiri, biri kubisikana n'imodoka ngufiya, y'umutuku.

Igikamyo cy'umweru cyagenewe gutwara imizigo, kiri kugenda mu muhanda wa kaburimbo mu cyerekezo kimwe n'umunyamaguru, inyuma kandi hari amapikipiki abiri atwaye abagenzi bambaye ingofero z'ubwirinzi.

Ni muri kaburimbo, hari kugenda igikamyo kinini cya rukururane cy'ubururu n'umweru, imbere muri metero imwe n'igice hari kugenda ibinyabiziga byinshi bitandukanye, iburyo bw'icyo gikamyo hari amatara yo ku muhanda n'ibiti byinshi bitandukanye.

Imashini ibara amafaranga, igikoresho cy'ikoranabuhanga gishinzwe kubara amafaranga gikoreshwa muri banki zose yaba izigenga n'iza reta aho gifasha abakozi ba banki kubara amafaranga vuba kandi neza.

Ni ipikipiki nini iba isakaye imbere no hejuru, ifite akantu kabugenewe ko gutwaramo imizigo itari myinshi, iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo, hirya hari indi mihanda ya kaburimbo iri kugendamo ibinyabiziga bitandukanye.

Ni ipikipiki nini yagenewe gutwara imizigo iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo, mu kerekezo kimwe n'abanyamaguru bawurimo, ku nkengero z'uwo muhanda kandi hakaba hateye ibiti birebire bizitije supanete y'icyatsi.

Ni igikamyo kinini cy'umutuku cyikoreye umucanga kiri kugenda mu muhanda wa kaburimbo. Ku nkengero zombi z'umuhanda hakaba hari ibiti birebire bidufasha mu kubona umwuka mwiza.

Ni imodoka y'ivatiri y'ibara ry'umweru iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo, hirya y'uwo muhanda hari umukingo uriho ibiti birebire bizitije supanete y'icyatsi.

igikamyo kinini cy'ubururu bwerurutse gihetse imizigo itwikije ishitingi y'ikigina kiri kwambuka ngo kigende muri kaburimbo neza hirya kandi hari ipikipiki itwaye abantu babiri bambaye ingofero z'ubwirinzi inyuma hakaba amazu menshi atandukanye.

Ni umuhanda wa kaburimbo ushushanyijemo umurongo uri mu ibara ry'umuhondo, hari kugendamo imodoka nyinshi, ku nkengero zawo kandi hari ibiti biri ku muhanda n'amatara yo ku muhanda.

Ni igikamyo cy'ubururu cyagenewe gutwara imizigo, kiri kugenda mu muhanda wa kaburimbo; imbere hari imodoka nyinshi zitandukanye, ku nkengero z'umuhanda hateye ibiti birebire.

Ni mu muhanda wa kaburimbo, hagati haciyemo umurongo mu ibara ry'umuhondo ucagaguye, mu gice kimwe cy'umuhanda kandi hari kugendamo amapikipiki, wambutse hari igipangu cy'umweru.

Umuhanda w'umukara aho uganisha ku bitaro byitwa Sehashiyibe, biri mu karere ka Huye, aho hahagaze umuntu uhagarika imodoka kugirango babanze basuzume icyo uje uhakora, hakaba hari imodoka nyinshi ziparitse.

Ni uburyo bwashyizweho bw'imyidagaduro, buri kigali aho umuntu aba afite amagare akayabatiza, mukamuha amafaranga mukajya kwidagadura nyuma y'igihe mwavuganye, mukayamugarurira.

Ni i kigali mu Rwanda, hasi yashashe amapave, hari inzu zubatse mu buryo butangaje, izigeretse n'izisanzwe, hakaba hari ahantu kandi habugenewe ho kwicara abantu, bari kwiganirira, kwifotoza n'ibindi.

Ni mu kibuga cy'umupira w'amaguru harimo utwatsi dukeya. Hari kugaragara izamu rimwe. Inyuma y'iryo zamu hari ibaraza, hakaba n'ibiti birebire bitandukanye. Hirya mo gato muri ibyo biti hari inzu yubakishije amatafari ahiye, ifite na parikingi iparitseho imodoka y'umweru. Iburyo bw'iryo zamu nanone hakaba haparitse imodoka y'umukara.

Ni amabuye menshi yasataguwe arunze mu byatsi, imbere hashinze ipoto ry'umweru, hakaba n'intebe ndende y'urubaho, iri ahagana ku muhanda.

Mu rwego rwo kwirinda imyicarire mibi y'abaturage, ndetse kandi bakicara bari kwicwa n'izuba. Leta yabubakiye ahantu heza ho kwicara kandi hasakaye, hasi hashashishije amapave ndetse hirya gato hari n'ubwiherero.

Icyumba cyagenewe gukorerwamo inama, giteguyemo intebe ndetse n'ameza akorerwaho inama, cyahuriwemo n'abantu benshi baturuka mu bihugu bitandukanye biganjemo abanyafurika ndetse n'abazungu, aho bari kuganira ku bintu bitandukanye byabahurije muri iyi nama barimo.

Hari icyapa kerekana uko abanyamaguru bagomba kugenda mu muhanda, ibumoso gato bw'icyo cyapa, hari umukingo wubakishije amabuye, urangije uwo mukingo harazitiye mo imbere harimo ibiti byinshi bitandukanye, hepfo gato y'uwo mukingo hari uduti tugufiya, iburyo bw'utwo duti hari umuhanda w'umukara.

Ni uburyo bukoreshwa n'ikoranabuhanga Leta yashyize mu muhanda, bwereka ibinyabiziga bitandukanye uko bigomba kwitwara bitabaye ngombwa ko haba hahagaze abapolisi.

Abagabo batatu aho bicaye umwuka umwe akaba yambaye ikote ry'umukara ndetse akaba yambayemo n'ishati y'ubururu, abandi babiri bakaba bambaye amashati y'mweru, aho buri wese hari akarangururamajwi imbere ye wo hagati akaba ari we uri kuvuga.

Ni mu muhanda wa kaburimbo hagati haciyemo umurongo w'umweru ucagaguye, hari kugendamo ibinyabiziga byinshi bitandukanye, ahagana ku ruhande kandi hakaba hari icyapa cya tagisi n'akazu abagenzi bicaramo mu gihe bategereje imodoka.

Ni imihanda ibiri ya kaburimbo iteganye, umwe muri yo hagati haciyemo umurongo w'umuhondo, hagati y'iyo mihanda kandi harimo akajaride gatoya karimo indabyo ndende n'ingufiya ndetse n'itara ryo ku muhanda rifasheho icyapa.

Ni icyapa gifite impande eshatu, kiri mu mabara abiri: umutuku n'umweru, ku nkengero hari umutuku mo imbere hari umweru, hagati harimo umubyeyi afashe umwana ukuboko bari kugenda.

Ni icyapa cy'ubururu n'umweru, hagati gishushanyijemo imodoka y'umweru itwara abagenzi, hasi hakaba handitse ngo bisi sitopu, bishatse kuvuga ngo imodoka irahagaze.

Imodoka yo mu bwoko bwa dayihatsu yifashishwa mu gutwara imizigo ifite ibara ry'ubururu ndetse n'igisanduku cy'ibyuma iparitse iruhande rw'umuhanda, aho itegereje gushyirwamo imizigo. Izi modoka zikaba zifashishwa mu kworoshya serivisi z'ubwikorezi hirya no hino mu gihugu. Aho zifashishwa mu kugeza ibintu mu bice bitandukanye by'igihugu.

Ni icyapa gifite ishusho y'uruziga kigizwe n'amabara abiri umutuku n'umweru, umutuku uri ku ruhande, umweru ni mo hagati ari n'aho hashushanyijemo umubare mirongo ine uri mu ibara ry'umukara.

Icyapa kiri ku muhanda wa kaburimbo gishinze ku cyuma, kigereritse kabiri cya mpandeshatu, mu cya mbere mo imbere harimo umugabo werekana imigendere yo mu muhanda, mu cya kabiri hashushanyijemo umurongo uhagaze n'utambitse mu ibara ry'umukara.

Ni muri kaburimbo, hagiye harimo utumenyetso dushushanyije mu ibara ry'umweru, harimo urujya n'uruza rw'abantu batari benshi, hirya kandi hari inzu nziza igeretse, iteye irange ry'umweru, ifite inzugi n'amadirishya, bikoze mu birarahuri.

Ni mu muhanda wa kaburimbo hacimo umurongo w'umweru ku mpande, hari ibiti birebire by'indabyo, hakaba hagiye harimo n'utwapa dutoya tw'umuhondo dushinze ku byuma.

Ni icyapa kiririmo ishusho y'uruziga, ishushanyije mu mabara atatu, umutuku, ubururu n'umweru. Hagati hacimo umurongo ukigabanyamo kabiri, higanjemo ubururu ku mpande zombi.

Ni imihanda ibiri ya kaburimbo iri ahantu hamwe ariko idafatanye, hagati yayo haciyemo agahanda k'ibitaka karimo ibyapa bibiri, icy'ubururu nicy'umweru, umuhanda umwe muri uwo urimo igikamyo kinini cya rukururane.

Ni indabyo ziteye ahantu hamwe, zikaba zarakuze zegerana, akaba ari indabyo ndende z'icyatsi, hakaba hashinzemo icyapa kiri ku cyuma kiri mu ishusho y'impande eshatu cy'amabara abiri, umutuku n'umweru, gusa mo hagati hakaba harimo ijambo ryanditse mu ibara ry'umukara.

Ni icyapa kigizwe n'impande eshatu cyagenewe kujya ku muhanda, gifite amabara abiri; umutuku n'umweru, hagati hashushanyije umuntu mu ibara ry'umukara ari kwambuka umuhanda.

Ni icyapa kiri mu mabara abiri umutuku n'umweru, hagati hashushanyijemo igare mu ibara ry'umukara, riciyemo umurongo byerekana ko ari habi, nta gare ryemewe kuhaparikwa.

Ni mu ihuriro ry'imihanda ya kaburimbo ku nkengero z'iyo mihanda kandi, hari ibihuru amashyamba amapoto afite insinga z'amashanyarazi, amatara yo ku muhanda n'ibindi byapa.

Hari icyapa kinini kiri ku muhanda giciyemo umurongo, cyerekana ahantu hatandukanye, inyuma gato y'icyo cyapa hakaba hari umukingo uriho igiti, hirya gato y'icyo giti hakaba hari amazu, inyuma y'ayo mazu hakaba hari ishyamba.

Ni muhanda wa kaburimbo hari kugendamo n'abantu, ahagana mu busitani harimo ibiti birebire n'indabyo ngufi z'umuhondo, hakabamo kandi n'icyapa cy'umutuku n'umweru cyerekana uko abanyamaguru bagomba kugenda mu muhanda.

Ni amazu menshi kandi meza ari ahantu hamwe ateye amarangi atandukanye, akaba afite igipangu kirekire cy'amatafari yo muri sima, hazitijwe kandi senyenge n'utundi twuma tw'umutuku akaba ari hafi y'umuhanda wa kaburimbo.

Ni ahantu hari guhurira imihanda myinshi ya kaburimbo, hakaba hari kugendamo ibinyabiziga byinshi bitandukanye ndetse n'abantu, hirya y'iy'imihanda kandi hari inzu nziza kandi ndende igeretse gatatu, ikaba ifite ibyapa byinshi biranga ibikorerwamo, ikagira kandi n'aho guparika imodoka ahagana hasi.

Inzu nziza iri ku muhanda igeretse kabiri, yubakishije amatafari ahiye, ikaba ifite igipangu cyubatswe n'indabyo ndende z'icyatsi, kandi ikaba ifite ibindi bipangu biyikikije ku mpande zombi.

Mu rwego rwo kwirinda kubaka mu kajagari, gutura mu kajagari, leta yategetse abaturage ko bagomba kubaka inyubako zimwe kandi zigezweho.

Iyo abayobozi basoje inama bari barimo hari ahantu habugenewe bahurira bakiga ku myanzuro yafashwe ndetse bakanatanga n'umucyo ku bibazo byagiye bigaragazwa ,aho hantu iyo bahageze baraniyakira.

Ni imodoka ziri kugenda mu muhanda wa kaburimbo, hirya gato wambutse umuhanda wa kaburimbo hari amazu menshi akorerwamo ibikorwa bitandukanye, hakaba amapoto ariho insinga zijyana umuriro w'amashanyarazi.

Ni umudugudu wiganjemo amazu menshi y'uducurama n'andi makeya ageretse; hagati y'ayo mazu hagiye hacamo imihanda y'ibitaka, umuhanda umwe muri yo hari kuzamukamo imodoka, inyuma hari ishyamba, imbere ni mu gishanga.

Parikingi y'amapave iparitsweho imodoka nyinshi nziza kandi zitandukanye, inyuma hari ipoto ririho insinga zijyana umuriro w'amashanyarazi, amatara yo ku muhanda, ibiti birebire ndetse n'amazu atandukanye.

Umuhanda w'umukara aho uganisha ku bitaro byitwa Sehashiyibe, biri mu karere ka Huye, aho hahagaze umuntu uhagarika imodoka kugirango babanze basuzume icyo uje uhakora, hakaba hari imodoka nyinshi ziparitse.

Ni i Kanombe mu kajagari ka kabiri ku muhanda w'amabuye ku muhanda hari ipoto ifite insinga z'amashanyarazi inyuma gato y'iryopoto hari igipangu kirekire n'imbere muri icyo gipangu harimo amazu menshi atandukanye. Harimo iyakonoshi hakaba inzu nziza igeretse kabiri iteye irangi ry'umweru hakabamo n'iy'agacurama, hanze y'icyo gipangu mu busitani buhari hateretse ibikapu bitatu n' umusore uhahagaze.

Ipikipiki ihagaze mu muhanda wa kaburimbo, yicaweho n'umutwazi wambaye ingofero y'ubwirinzi y'umutuku, wambutse uwo muhanda hari igipangu gikozwe n'indabyo ndende z'icyatsi, imbere mu gipangu harimo inzu nziza igeretse kabiri.

Ni mu busitani bufite indabyo n'ibiti birebire bitandukanye, hashizemo icyapa cyerekana inzira, hagati mu busitani hacimo akayira, hasi gashashishije amapave, kari kugendamo umuntu.

Ni imihanda myinshi ya kaburimbo, ihurira ahantu hamwe, izwi ku izina rya rompuwe, buri muhanda uri kugendamo ibinyabiziga bitandukanye, hirya buri muhanda hagiye hari ibiti biwukikije n'amatara n'amazu.

Ni mu muhanda wa kaburimbo udafite ikinyabiziga na kimwe kiri kuwugendamo, iburyo bwawo hari indabyo ngufiya, ubusitani, icyapa cyerekana inzira, n'icyapa cyerekana uko abanyamaguru bagomba kugenda mu muhanda, ibumoso hakaba hari amatara.

Ni imihanda ibiri ya kaburimbo isa neza, igira aho itandukanira, umuhanda umwe uri kugendamo ibinyabiziga undi nabyo, ikindi kandi ku nkengero za buri muhanda hateye ibiti birebire n'indabyo.

Ni mu muhanda wa kaburimbo, hari kugendamo imodoka ntoya y'umweru, iba ifite igisanduka kinini cyagenewe gutwara inyama, hakaba hari kugendamo ndetse n'ibindi binyabiziga byinshi.

Ni imihanda ibiri kandi minini ihura ya kaburimbo, umwe haciyemo umurongo w'umweru undi hari kugendamo imodoka imwe isize irange ry'umweru, ku nkengero z'umuhanda umwe hakaba hari utwuma tubuza abantu kuba bagwa mu kiraro.

Icyumba cyagenewe gukorerwamo inama, giteguyemo intebe ndetse n'ameza akorerwaho inama, cyahuriwemo n'abantu benshi baturuka mu bihugu bitandukanye biganjemo abanyafurika ndetse n'abazungu, aho bari kuganira ku bintu bitandukanye byabahurije muri iyi nama barimo.

Ni imihanda ibiri ya kaburimbo iteganye, umwe ushushanyijemo umurongo w'umweru, ahandi hari uturongo tuhagaze tugufi tw'umweru, ahagana hirya hari ahagenewe guhagarara amapikipiki.

Mu muhanda wa kaburimbo hari kugendamo amapikipiki bambaye ingofero z'ubwirinzi, ku nkengero z'umuhanda kandi hari ibiti byatewe kugira ngo bijye bitanga umwuka mwiza.

Ni mu muhanda wa kaburimbo nta kinyabiziga kiri kugendamo, amatara ari kwaka, hashushanyije ijambo ahedi mu ibara ry'umweru ndetse n'umurongo w'igice.

Ni imihanda ibiri iteganye irimo ibinyabiziga bitandukanye iri kugendamo n'abagenzi, hagati y'imihanda harimo akajaride karimo icyapa amatara yo ku muhanda n'ipoto ry'umuriro w'amashanyarazi.

Hano hari imihanda ibiri ya kaburimbo, hagati y'iyo mihanda hakaba harimo uduti tugufiya n'amatara yo mu muhanda, iburyo bw'umuhanda umwe hakaba hari ibiti n'itara ryo ku muhanda.

Ni umuhanda w'igitaka ubona ko iyo haguye imvura unyerera, ku nkengero zombi z'umuhanda hagiye hari amazu menshi kandi atandukanye ndetse hari n'indabyo ndende z'icyatsi kibisi.

Ipikipiki y'umutuku iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo, itwawe n'umutwazi wambaye agakoti kabugenewe ndetse n'ingofero y'ubwirinzi. Hirya y'umuhanda kandi ku mukingo hari icyapa ndetse n'ibiti birebire.

Ni ikiraro cyagenewe koroshya uburyo bw'imigendere y'abagenzi n'ibinyabiziga, hasi hakaba harimo umuhanda n'ubundi wa kaburimbo no hejuru hakaba hari umuhanda wa kaburimbo ukomeza.

Ni ku muhanda wa kaburimbo, hari imodoka ebyiri ntoya ziri kubisikana, iy'umutuku n'umweru, hakaba n'abagenzi bari kugenda, hirya hari umukingo uteyeho ibiti birebire byashyizweho kugira ngo bijye biha umwuka mwiza abagenzi.